Itsinda ry'abantu benshi bamwe muribo bambaye impuzankano ,y'ikigo cy'itumanaho hano mu rwanda barimo gutanga ishimwe ku bakiriya babo.

Umusore wambaye imyambaro irimo umupira uri mu ibara ry'umweru n'ipantaro y'ibara ry'ubururu uri kumwe n'umukozi w'ikigo cy'itumanaho arimo asaba serivise.

Umukozi w'ikigo gishinzwe itumanaho, wambaye umwambaro umuranga uri mu ibara ry'umuhondo wicaye ku kameza kari mu ibara ry'umuhondo, ufite n'intebe iri mu ibara ry'umweru ndetse uri munsi y'umutaka uriho ibirango by'ikigo cy'itumanaho.

Itsinda ry'abacuruzi bacuruza inkweto z'abagabo n'iz'abagore ndetse n'ibikapu n'imyambaro bishimye cyane kandi babikora kugira ngo biteze imbere.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'amagambo yandikishijwe ibara ritukura, iki cyapa kikaba kiranga aho bafatira cyangwa mu kabari aho banywera.

Inzu irimo amatara, ikaba irimo inzoga z'ubwoko bugiye butandukanye zifasha abantu kwinezeza no mu kwimara icyaka mu buzima busanzwe bibatera kwishima.

Ibicuruzwa bitandukanye, birimo: indagara, amavuta yo guteka, akawunga ndetse n'isukari, byose bikenerwa mubuzima bwa burimunsi. Umucuruzi abikora muburyo bwo kugira ngo abone amafaranga.

Umukobwa wambaye ingofero itukura, agapira kari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umubyeyi wambaye ingofero y'umukara ndetse n'kanzu iri mu ibara ry'umutuku n'ubururu, bari muri mu iduka ritangirwamo serivisi z'ubucuruzi, bacuruza ibiribwa kugira ngo biteze imbere.

Umubyeyi wishimye cyane wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro ya kaki, uri mu iduka ricuruza ibyo kurya, harimo amagi n'amavuta yo guteka, bifasha mu kugabanya imirire mibi.

Umusaraba uri mu mu mabara y'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo ndetse ukikijwe n'ameza ndetse n'intebe ifasha abantu mu gusenga ndetse no kwitagatifuza.

Abepisikopi batatu ndetse bakikijwe n'itsinda ry'abakirisitu b'ingeri zose harimo abagore, abana, abagabo, abasore ndetse n'inkumi.

Urusengero rurimo abantu b'ingeri zose, abagore, abagabo, abana, abasore, inkumi, abasaza n'abakecuru, basenga basaba Imana kugira ngo ikomeze ibafashe.

Itsinda rigizwe n'urubyiruko abasore ndetse n'inkumi bafite indangururamajwi bari mu rusengero bahimbaza imana ndetse banashimira ibyiza ikomeza kugenda ibagirira.

Inyubako y'urusengero rufite agasongero karekare cyane rukikijwe n'ibigo by'amashuri ndetse n'ibiti hirya no hino.

Urusengero rufite ibiti bibiri ku muryango, n'agasongero karekare hejuru yumuryango, ikindi giti inyuma y urusengero. Urusengero fasha umukristu kwitagatifuza.

Ubusitani bugizwe n'ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'intebe ebyiri ziri munsi ya buri mutaka bifasha abantu benshi kuruhuka mu mutwe.

Icyumba kigari kinini cyane kirimo uburiri n'intebe n'amatara meza cyane gifasha abantu mu kuruhuka. N'icyumba cyo muri hoteri kandi gifite isuku.

Icyumba gisa neza gifite amatara hirya no hino, hejuru, gifite ameza ariho indabo ndetse n'intebe ziteguye neza zifasha abantu kuruhuka neza.

Icyumba gisa neza gifite amabara y'umuhondo n'ubururu kigizwe n'ibirahure, kuburyo ukicayemo waba ureba ahantu hose udahindukiye.

Inyubako nini kandi ngari iri ku buso bunini, ifite imbere hagari hagizwe n'ibyatsi kandi bisa neza...

Umuhanda ukikijwe n'inzu ndetse n'inzira nyabagendwa y'abagenzi ndetse n'ibiti biriho amasinga atwara amashanyarazi n'umumotari utwaye moto kandi uyu mumotari abikota nk'akazi kaburi munsi mu buryo bwo kwiteza imbere.

Umuhanda urimo, abagore, abana, abasore, ndetse n'inkumi ndetse n'umumotari utwaye moto iriho umwana w'umunyeshuri wiga mu kigo cy'incuke.

Umuhanda munini ukikijwe n'ibiti by'amashanyarazi ndetse n'amasinga hejuru yawo ndetse hirya inzu iri mu irangi ry'umweru n'umumotari utwaye amata ayakura hamwe ayajyana ahandi.